Abahinzi bashishikarizwa igihe cyose bagiye gutera igihingwa runaka ,kuba bakoresha ifumbire kugira ngo icyo gihingwa kizamuke neza kandi gikure neza kizatange umusaruro.

Ibigori iyo utabiteye imiti bishobora kuribwa na nkongwa, ikabyangiza ku rwego rw'uko ushobora kubura umusaruro na muke wari witeze bityo ibyo wahinze bikaguhombera.

Ubuhinzi ubwo aribwo bwose bukenerwa kuwuhiriwa, ntabwo bigombera ngo bibe ari ibigori cyangwa ibishyimbo ndetse n'ibindi, ahubwo buri kintu cyose washyizemo imbaraga zawe ugomba kugikurikirana kugeza gitanze umusaruro.

Udusumbashyamba ni inyamaswa zikunze gusa neza kandi zikurura ba mukerarugendo kuba bazireba, bityo iyo umuntu waje gusura inyamaswa agataha atakabonye biramubabaza.

Kuhira imyaka umuntu agomba kugenda afite ibikoresho byose byabugenewe nkuko yambaye agapfukamunwa ,afite ipombo, kandi akareba neza niba uwo muti nta bice bye by'umubiri wakwangiza.

Ni kenshi umuhinzi agomba kuzirikana kuhira imyaka ye ndetse akanayitera imiti kenshi gashoboka mu nshuro zose zagenwe iyo myaka bityo iyo abikoze ibyiza bisanga imbere.

Ubuhinzi ubwo ari bwo bwose twakora buri myaka iba ikeneye guterwa imiti kugira ngo ubukoko butayiryaye, bityo iyo ubyitayeho neza nta gituma utabona umusaruro wawe nk'uko wawuteganije.

Nuramuka wanze kuhira imyaka yawe ntuzigere rwose uteganya ko wabona umusaruro uwo ariwo wose kuko byose niho bituruka kandi igatuma bikura neza mu buryo bushimishije.

Kubera ko imiti dutera mu myaka akenshi iba iba ifite ubukana, nibyiza ko twambara ibikoresho bidupfuka umubiri ahantu hose kugira ngo iyo miti itatwangiza, kuko imyinshi muri yo iba ifite ubukana bwa kugutera izindi ndwara.

Igihe cyose ugiye gutera imiti ku myaka yawe, ugomba kureba ko ukoresheje igipimo cyabugenewe kubera ko kiba cyanditse ku gacupa k'iyo miti bityo ukabikurikiza neza.

Iyo umaze kuhira imyaka yawe wahinze, biba byiza nanone unyuzemo uyitera imiti yica utudukoko twangiza imyaka, kubera y'uko ibi iyo utabikoze imyaka ishobora kwadukirwa n'icyorezo igatsembwa burundu.

Igihe urobye amafi banza uyatunganye neza, mbere yo kuyajyana kuyategura nk'ibyokurya cyangwa amafunguro uha umuryango wawe bityo abe atunganye kandi akeye.

Iyo witaye ku buhinzi n'ubworozi cyane bikugirira umusaruro cyane cyane abantu bakora ubuhinzi bw'amafi, kubera y'uko bagomba gufukura amazi menshi kugira ngo ayo mafi ariho azajya yororokera.

Ubundi buryo bwiza bwo kuba wakorora amafi kandi akororoka, gufukura amazi menshi maze ukabona gukoreramo ubwo bworozi, ariko nan nonene ukita ku byo kurya by'ayo mafi.

Mu gihe wahinze cyangwa ukorora amafi, ni byiza ko aho hantu ukorera uwo mwuga, uhasura kenshi gashoboka kugira ngo ukurikirane umusaruro wawe uko ugenda wiyongera.

Ni worora amafi buri kimwe cyose gikenewe uge ukitaho kandi uyakurikiranire ku gihe maze nubona umusaruro wishime kuko byavuye mu mbaraga zawe.

Umuhinzi agomba gusura umurima we cyangwa umworozi kugira ngo ajye akurikirana ibintu bye areba aho bigeze kandi abyiteho buri kimwe cyose gikenewe ajye agishyiramo kugira ngo bigende neza.

Igihe umusaruro wawe wagezweho w'amafi ugomba kuwuroba maze ukawukoresha icyo wari warateganije ujya kwiga uwo mushinga, bikakugirira akamaro kandi bikakagirira n'abandi.

Niba worora amafi ugomba kuba ufite n'akazu ubikamo ibyo kurya byayo kugira ngo ujye ubona uko uyagaburira buri munsi kandi bitakugoye, bitagusabye kugenda igendo nini ngo ibyo kurya ahubwo bikajya bibikwa muri iyo nzu.

Ni byiza kubanza gukusanya ifumbire tukayishyira mu mirima yacu mbere yuko dutera kugira ngo nitumara gushyamo imyaka, tubijyanirane no gushyiramo ifumbire maze imyaka yacu ikure nkuko tubyifuza.

Umworozi w'amafi agomba gusura cyane cyane aho akorera ubwo bworozi kugira ngo amenye niba nta cyorezo cyagiyemo cyangwa ubwo bworozi budakeneye ibyo kurya.

Umuntu worora amafi agomba kuba afite ibikoresho byose bikenerwa mu korora amafi, kandi akajya ayasura kenshi, kuko akenera ibintu byinshi nko kuba yayagaburira n'ibindi.

iyo amafi amaze gukura, bayajyana ku isoko bakayagurisha bityo bigatanga amafaranga, kandi no mu miryango ni byiza ko indyo zacu tugomba kuziteka ziriho inyama.

Igihe umusaruro wacu umaze kuba mwinshi, nk'amafi tworoye amaze gukura ,ni byiza ko tujya kuyaroba ariko naone tukirinda kuroba menshi kugira ngo adashiramo.

Kuzitira ahantu wateye ubuhinzi bwawe bw'amafi, biba byiza kugira ngo hatagira ikintu kibwangiriza maze ujye ukurikirana ku igihe kandi nta kabuza bizatanga umusaruro.

Igihe uteganya korora amafi banza wicare utekereze umushinga wawe neza, uwigeho numara kubona bizakunda uwutangize kuko bisaba ibitekerezo byinshi n'amafaranga.

Kera gahunda yo kororera amafi ahantu hose ukoresheje amasupanete, itaravaho abantu babonaga umusaruro mwinshi kubera ko aribwo buryo bwari buboroheye none ubu byaraciwe.

Mbere y'uko ujya kuroba amafi ugomba kuba ufite ibikoresho byabugenewe ukoresha mu kuyaroba kugira ngo utangiriza ayasigayemo cyangwa ukaba wahomba.

Ibishanga byose ntabwo ari ko byakorerwamo ubworozi bw'amafi kubera yuko abanza gupimwa, bikarebwa niba aho hantu habereye ubworozi, bityo umuntu akaba yabutangiye.

Ubworozi bw'amafi iyo ubwitayeho bukunda kugira umusaruro, ibi bikunda kuba bizwi n'abantu babukora kubera yuko, nubwo babushoramo amafaranga menshi ariko nabo birangira bayayagaruje.

Umurobyi wese aho ava akagera agomba kuba afite ibikoresho byose byabugenewe akoresha mu mwuga we wo kuroba kugira ngo atangiriza ayandi mafi asigaye muri urwo ruzi bigatuma aba make.

Umuturage washoye imbaraga ze mu guhinga ikawa nubwo itinda ikamara igihe kirekire ariko imaze kwera nawe abona amafaranga menshi kuko ni kimwe mu bihingwa bigurishwa no mu mahanga bivuye mu rwanda.

Igihe ikawa yahiriye umuhinzi ayibonamo amafaranga menshi atari yiteze, bityo buri ikintuintu cyose cy'ikibazo afite akaba yagikemura atarinze gusaba izindi mbaraga z'abandi bantu.

Iyo umuturage cyangwa umuhinzi ageze mu murima we akabona bigenda neza, bimutera imbaraga akaba yumva yakora n'ibindi birenze ibyo yakoze kuko aba yiteze umusaruro mwinshi.

Niba uri umuhinzi wibaza igihingwa wahinga kikakungukira mu buryo bwiza ujye utekereza ku buhinzi bw'ikawa, kubera yuko ntawabukoze ushobora gupfa guhomba, kuko iyo wabwitayeho buguha ibyo wifuza byose.

Ubuhinzi bw'umuceri nabwo butanga umusaruro mwinshi ariko abahinzi babwo bakunda gutanga ikibazo yuko, umusaruro iyo umaze kuboneka babura amasoko kuwucuruzamobityo bikaba ari imbogamizi kuri bo.

Nuhinga ikawa neza uyikurikirana neza nta kizatuma utabona umusaruro mwiza ,kuko ikawa byagaragaye ko yoherezwa mu mahanga. Kandi itanga amafaranga menshi uyikora akayihinga.

Iyo bagiye guhinga imyaka cyangwa nk'ibiti, ugomba kubanza kubishyira mu bihoho, bityo bikabanza bigakuriramo, hanyuma bakazabijyana mu myobo yabugenewe bacukuriye kugira ngo biterwemo.

Nyuma yo kumenya ko icyayi cyoherezwa mu mahanga Abanyarwanda bashyizemo imbaraga mu kugihinga kubera yuko na bo bahabwa amafaranga menshi cyane ugereranyije n'ubundi buhinzi.

Gusoroma icyayi ntabwo ari ibya buriwe kuko bisaba ubuhanga bugiye butandukanye, bityo iyo utagihinze ntushobora kumenya uburyo bwiza bwo kuba wasarura icyo cyayi kuko ushobora ku cyangiriza.

Nuhinga ikawa ntuzigera winuba cyangwa ngo witotombere umusaruro wayo. Igihe uzaba wayitayeho neza uzabona amafaranga azagufasha gukemura ibibazo byawe byo mu muryango ndetse n'ibindi rusange.

Gusoroma icyayi ntago bikorwa na buri wese, bisaba kuba ubifitemo ubumenyi cyane cyane bikorwa n'abantu bagihinze kuko aribo baba bazi uburyo gikorerwa n'uburyo cyitabwaho ndetse n'uburyo gisarurwamo.

Mu Gihugu cyacu ikawa ndetse n'icyayi, ibihingwa bitanga umusaruro cyane kuko binagurishwa mu mahanga, bityo bigatuma Igihugu gikungahara mu bijyanye n'iterambere.

Igihe icyayi cyeze umuhinzi aba agomba kujyisoroma, bityo uwo musaruro ukajyanwa kwisoko ukagurishwa mu mahanga cyangwa se ugatunganywamo ibindi mu nganda zo mu gihugu imbere.

Niba umusaruro wawe ubona ko umaze kuba mwiza, ujye uwutoranya ubundi uwujyane aho wakagombye kujya cyane cyane nko mu nganda, maze bawitunganyirizemo ibindi bakeneye.

Abacuruzi babijyize umwuga bamenye ibanga ryo kugirango ntibahende abakiriya babo bityo bakajya bakoresha iminzani ipima ibiro kuburyo n'umuguzi yireberaho akabonako adahenzwe.

Ni kenshi dukunda kubwirwa ko ubwatsi ndetse n'ibindi ibyo ari byo byose atari byo bagaburira inka gusa, ahubwo hari n'indi miti ibakorwa mu nganda baba baha amatungo.

Ugomba kuba ufite amategeko n'amabwiriza bigenga ubworozi ugiye gutangira, bityo ukabikora ubizi, itungo ryawe ryagira indwara rirwara, ukajya muri cya gitabo ukareba uko iyo ndwara ivurwa.

Imiti y'amatungo igomba kubikwa ahantu habugenewe kandi hizewe kugira ngo irindwe ikintu cyose cyayangiriza nko kuba abana bayikoresha ugasanga barayinyweye kuko yabangizariza ubuzima.

Tujye tumenya kandi tunabaze icyo buri muti w'amatungo uvura kugira ngo ntitukagikoreshe mu buryo budakwiriye, nyamara muganga w'amatungo kubera ko byose aba abizi adufasha kudusobanurira.

Ikintu cyose kirebana n'ubuzima bwiza bw'itungo, icyi kiba kireba umworozi kuko utakurikiranye ubwo buzima bw'itungo ryawe, nawe ntuzizere ko wabona umusaruro uriturutseho.

Imiti y'amatungo ntabwo ikwiriye kubikwa ahantu aho ari ho hose umwana muto yagera, kubera ko ibi bishobora gutuma ayikinisha kandi bigatuma yayirya kubera ko iba ari uburozi ikamwica.

Hari imiti baha amatungo cyangwa se bakayishyira mu bwatsi bwayo, kugira ngo ayo matungo arye cyane, bityo agakura neza kubera ko iyo miti iyafasha cyane.

Igihe imiti yashyizwe ahantu hamwe y'amatungo igomba kwitabwaho kugira ngo hatagira ikiyangiza, kandi hakarebwa neza niba igihe yakorewe n'igihe izarangirira bikurikijwe kuko bituma igira ubuziranenge.

Igihe tubonye hano habitse imiti y'amatungo, si byiza ko tuyangiriza ahubwo tugomba kuyifata neza nkuko bikwiriye bityo ikazakoreshwa icyo yateganyirijwe gukoreshwa.

Igihe cyose ubonye igikoresho runaka utazi uburyo gikora, si byiza ko wajya kugicokoza kuko ushobora gusanga uteje ibindi bibazo utari uzi cyangwa kikaba cyanagukomeretsa ubuzima bwawe ntibube bwiza.

Buri nyamaswa cyangwa itungo iryo ariryo ryose riba rifite igipimo ntarengwa cy'umuti rigomba kunywa igihe ryararwaye, bityo veterineri wenyine niwe uzi icyo gipimo agomba kwandikira iryo tungo.

Usanga hari imiti igenda ikoreshwa cyane cyane ku matungo kugira ngo ayo matungo atange umusaruro nko kuba hari ibindi washyira mu mazi inka zinywa maze bigatuma zitanga umukamo.

Ujye wita ku miti uhabwa n'umuganga w'amatungo yose, uyibike neza aho abana badashobora kugera kandi ujye uyiha ku gihe kugira ngo izo ndwara irwaye zigende.

Iyo umuganga w'amatungo afite icyumba abikamo imiti yayo, agomba kureba neza niba iyo miti ibitswe ahantu heza hafite isuku ndetse n'umutekano.

Ibyo kurya cyangwa se imiti ihabwa amatungo na yo igomba kubungwabungwa maze ikabikwa neza kugira ngo itangirika abantu bazayikoresha igihe ikenewe.

Gufata imishwi ikiri mitoya ukayitaho biba bigaragara nk'ikintu gikomeye kandi cy'ubutwari, ariko iyo umaze gukura urimo urabona amafaranga nawe biragutungura ukabona ibyo wari ugambiriye ubigezeho.

Korora inka ntabwo bivuga gusa kuba waziha ubwatsi ngo wumve ko bihagije, ahubwo zigomba kuba zifite n'ibindi byokurya biva mu nganda uha inka kugira ngo zitange umukamo.

Imiti y'amatungo iyo ibitswe ahantu heza ntishobora kwangirika kubera yuko iyo yangiritse ishobora guteza izindi ndwara zitandukanye maze ugasanga amatungo yacu ahuye n'ibibazo bindi tutateganyaga.

Mbere yuko abahinzi batangira umwuga cyane cyane abakorera hamwe mu buhinzi bahinga , bagomba kwicara hamwe bakajya inama y'uburyo babikoramo kugira ngo byihute.

Ubuhinzi bwawe nuramuka ubikoze nk'umwuga, ujye wita guhinga ku murongo kuko nibyo bituma umuntu abona umusaruro mwiza kandi mu gihe gito, bityo wibuke gushyiramo ifumbire y'imvaruganda ndetse n'iy'imborera.

Niba warahuguriwe kuba umujyanama w'ubuhinzi mu mudugudu wawe cyangwa no ku kagari, ugomba kujya utumizaho inama, maze ugasobanurira abandi bahinzi uburyo bikorwa, maze nabo bakabikora neza.

Umuhinzi wese agomba kumenya ko isuka itagomba kumuva iruhande kubera ko ariyo soko y'ibyo byose abona mu buhinzi bwe n'amafaranga kuko ntushobora kuyabona utakoresheje iyo suka.

Igihe umusaruro wacu umaze kuboneka. ni byiza ko dukoranya abantu benshi tukajyana, bakadufasha kuwusarura kugira ngo tuwushyikirize ku masoko. Igihe tubona ko twasaguriye umuryango.

Ibigori byeze neza bikunze kugaragazwa nuko biba bifite ishusho isa icyatsi bityo rero umuhinzi na we aba azi uburyo bikomera.

Nyiri ukorora amatungo iyo ageze mu ifamu ye akabona ayo matungo ameze neza, biramushimisha kandi bikamutera n'imbaraga zo kuba yakongera imbaraga mu byo akora bityo umusaruro ukikuba.

Guhinga kw'abahinzi kwa buri munsi nibyo bigaragaza umusaruro wabo kubera yuko ntawujya gusarura icyo atabibye bityo niba warahinze ukoresheje imbaraga nyinshi nawe witege umusaruro ko uzaba mwinshi.

Ikintu kiba gitangaje cyane, ni uko usanga umuhinzi akora ibintu kinyamwuga, kandi ubona ko abyishimiye. Nibyo bituma abona umusaruro yifuzaga.

Umuhinzi agomba kwita ku umuceri we yahinze, akajya anyuramo awukuramo ibigunda byawuzitiye, ndetse akawurinda ibyonnyi, birimo inyoni ndetse n'ibindi bikoko bishobora kuba byawangiriza utarakura.

Hari ibigo byinshi bishinzwe kwakira umusaruro wavuye ku matungo cyane cyane nk'amata kubera ko hari ibyuma biyatunganya bikaba byayohereza no ku bandi bityo umuntu wabonye umukamo mwinshi agomba kujya awushyikiriza ibyo bigo.

Twihutire guhinga amapapayi mu ngo zacu kuko iyo yeze neza, turayarya bigatuma imibiri yacu ikora neza ndetse n'igogora rikagenda neza kuko bizwi neza n'abantu babyigiye, ko ari wo mumaro wayo.

Umuturage wamaze guhumbika imyaka ye mu gihoho akawukurikirana neza kugeza ukuze, ni byiza ko arukuramo akajya kuyitera ku murongo nk'uko yabyigishijwe.

Buri muhinzi wese agomba gushyiraho ingengabihe y'ukuntu azajya ahinga buri munsi, akagira isaha azindukiraho kuko burya ngo umubyizi ni uwa kare bityo iyo ukoze kare nawe icyo ushaka ukibonera ku gihe.

Iyo umuturage yavuye mu murima we, agomba kunyura ahantu agashaka udukwi ajya gutekesha kuko nicyo cyiba gikurikiyeho iyo amaze guhinga habakurikiyeho kuba yakirira.

Iyo itungo ryawe uryitayeho neza, ntirishobora kubura umusaruro bityo ukama neza ndetse ukaba umukamo wa wugurisha ahandi ukabona n'amafaranga.

Gutera imyaka kumurongo cyangwa ibiti kumurongo bishobora gutuma byera neza, kandi tujye twibuka gahunda ya leta ivuga ngo nutema igiti kimwe ujye wibuka utere bibiri.

Umuhinzi wese ajye yibuka gusura imyaka ye kenshi gashoboka kugira ngo arebe aho igeze bityo niba isubira inyuma arebe n'icyo yayikorera kugira ngo umusaruro ateganya azawugereho.

Abantu ba kera wasangaga batera ibiti bya voka ndetse banazikunda yewe ariko ubu usanga bitangiye gukendera nta muntu ugipfa guhinga voka kuko zitacyera neza nka mbere.

Ubuhinzi bw'insina cyangwa ibitoki usanga abantu benshi batabukora kubera ko si ubutaka bwose bwakweraho ibitoki ahantu hose, ahubwo mu ntara y'iburasirazuba usanga ariho bwiganje.

Ku isoko iyo tugezeyo tugomba kuhabona ibintu byose dukeneye., twakoresha mu guteka. Harimo inyanya, harimo n'amavuta n'ibindi byinshi ndetse n'ibikoresho dukoresha mu gusukura amenyo yacu.

Iyo imyembe yabaga ihinzwe ahantu ku muhanda wasangaga abana batoya bavuye ku ishuri baranyinyuragaho bakayangiriza ikiri mito bityo bigatuma umusaruro yitezeho utawubona nk'uko uba witeze.

Niba duteganya ko twakoze umushinga w'ubuhinzi kandi tukaba twizeye inyungu nyinshi, ni ngombwa ko twubaka ibikorwa remezo, ibyo twahinze bizabasha gushyirwamo kugira ngo bizagire umumaro mu gihe kizaza.

Ibigori iyo bidahingiwe cyangwa ngo byitabweho neza bishobora kudatanga umusaruro nk'uwari witezwe, bityo bigapfa cyangwa bikazamo nkongwa umusaruro ukabura muri ubwo buryo kandi wabonaga ko bishoboka ko byakwera.

Nutekereza umushinga uzajye wibuka ko n'umushinga wo guhinga amashu na wo ushobora kuguteza imbere kuko si ahantu hose hera amashu kandi si buri wese uyabonera ku gihe uko ayakeneye.

Imibiri yacu ikenera imbuto zigiye zitandukanye zirimo imineke, karoti, inyanya, ibigori ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye bitagaragaye muri ibi ngibi.

Usanga akenshi gutera amapapayi mu rutoki kimwe kigomba gupfa cyane cyane urutoki rushobora gucika intege ,kubera ko rukenera ubwisanzure ndetse n'ifumbire ihagije.

Muganga akunda kudushishikariza ko byibura ku mafunguro ya buri munsi dufata agomba kuba hariho ubwoko bw'imboga bugiye butandukanye. Ubwo wabona bwose ukabukoresha kugira ngo wirinde indwara.

Umuturage wese aho ava akagera, ajya amenya ko kuvanga imyaka bishobora kudindiza iterambere rye, kuba watera ibigori ukabitera munsina ibingibi ushobora kubura umusaruro n'umwe.

Buri myaka igomba guterwa neza kandi igakurikiranwa, cyane cyane ibishyimbo byakunze kugaragara ko bigira amafaranga menshi ndetse n'ibigori bikaba uko, kuwabihinze ntashobora kwicuza ko yabihinze.

Ubuhinzi bw'ibisheke na bwo ni bumwe mu buhinzi bugira amafaranga menshi, kuko bitunganywamo ibintu byinshi iyo bigeze mu ruganda, bityo rero ufite ubwo bushobozi ajya abihinga.

Guhinga imyumbati ntibisaba ngo uyihinge aho ari ho hose, kubera yuko igira ubutaka bwayo yereraho kandi iyo uyitayeho neza ukayishyiramo ifumbire ku igihe, n'ibindi byose ukabikurikirana, bitanga umusaruro mwinshi.

Igihe ibigori utabikurikiranye bikiri bitoya ngo ube wabitera umuti wica udukoko, bishobora kwangirika bityo bikaribwa n'udukoko umusaruro ukabura uko.

Guhinga umuceri ahantu hatari ibishanga bishobora gutuma n'umusaruro watekerezaga wose uwubura kubera yuko umuceri ukunda kwera ahantu hari amazi kugira ngo ujye wuhirwa buri gihe.

Cyane cyane abantu bo mu cyaro iyo umusaruro wabo umaze kuboneka, usanga bafite ahantu bamanika uwo musaruro cyangwa bakawuhunika kugira ngo igihe bizaba bikomeye ari wo uzabatabara.

Iyo uhinze ibigori ukabitera umuti ukabyuhira no ku isura biba bigaragara neza kandi bikagaragarira buri wese, ariko tuge twibuka ko gutera ku murongo ari byiza kurushaho maze tubikore.

Muhinzi iita ku myaka yawe wahinze, uyikorere buri kimwe cyose gishoboka, maze igihe gikwiriye uzabone umusaruro nk'uko ubitekereza, ariko ibyo nutabikora nta kintu uzageraho.

Ibihingwa ngandurarugo bigomba guhingwa ahantu bizabona amazi ndetse bikuhirwa ku gihe, buri kimwe cyose bikagikorerwa kugira ngo bikurikiranwe kandi umusaruro wabyo uboneke ku gihe.

Iyo imyumbati imaze gukura irasarurwa kandi ishobora gufasha umuryango mu bijyanye no kwitunga ndetse yaba myinshi ukaba wanayigurisha.

Umuceri umaze kwera ugomba kurindwa inyoni kuko ziwukunda cyane, bityo iyo utabyitayeho zishobora kuwurya zikawumara mu murima cyanecyane uyu utaruma kuko inyoni ziwukunda cyane.

Ubuhinzi bw'imyumbati ntabwo abantu bakunze kumenya ko nabwo bugira umusaruro ukomeye, ahubwo abenshi usanga bayinhinga kugira ngo babone icyo biririra nyamara wabitekerejeho neza ukabikora kinyamwuga wasagurira n'amasoko.

Ahantu hahanamye nko mu bishanga haba imyaka ihakunze kuhera cyane cyane nk'umuceri, ndetse n'indi myaka igiye itandukanye ishobora kuhera, ariko ntushobora kuba wateramo nk'ibigori ngo byere neza.

Kuba umuntu yarize ibijyanye n'amashyamba, agomba kuba azi ubwoko bwinshi butandukanye bw'ibiti kubera ko ari cyo kintu aba yarize cyane kandi akagishyiraho umutima, ko abizi rero nta kintu gitangaje kiba kirimo.

Ni byiza ko ubuhinzi bw'indabo tubungabunga kuko byagaragaye ko buvamo imiti y'amoko agiye atandukanye bityo rero iyo miti ikavura abantu kandi bagakira indwara zabo.

Igihe kimwe n'abayobozi hari igihe ba bafata iya mbere mu gukora imiganda kugira ngo babere intangarugero abaturage, bityo nta muturage ushobora kubona umuyobozi runaka arimo arakora umuganda ngo we abe yabisuzugura.

Mu mashyamba y'inzitane si byiza ko tuyajyamo uko twiboneye kubera yuko haba harimo inyamaswa zishobora kwangiza ubuzima bwacu, mu gihe tutari kumwe n'abayobozi ngo batuyobore aho hantu.

Mbere yuko duhinga imyaka tugomba gutunganya imirima yacu neza maze tukayiha ibikenewe byose birimo nko kuyegereza amafumbire n'ibindi bintu byose byadufasha igihe tugiye guhinga ibihingwa runaka.

Ujye wita cyane ku mima wawe bityo uwukoreshe icyo wakagombye gukora kandi mu gihe cyayo maze utere imyaka kandi uyikurikirane.

Kera abantu benshi bari bazi ko inyamaswa zirimo inzovu ari nini cyane ku buryo ishobora kuba yaruta n'inzu, ariko siko zose aba ari nini, haba harimo n'intoya.

Gutera ibiti na byo ni byiza kuko bituma aho hantu haboneka imvura kandi iyo mvura ikaba isoko y'uko imyaka yacu yera neza, ni byiza ko tubungabunga ibiti kuko bidufatiye runini.

Kandi haba hari itandukaniro rinini cyane ry'umuntu wahinze akoresheje ifumbire, n'undi wahinze atayikoresheje. Bityo uwakoresheje ifumbire abona umusaruro mwinshi, ugereranyije n' utayikoresheje.

Igihe duhinze imyaka yacu ahantu hari amazi menshi biradufasha kuko ibijyanye no kuhira amazi tuyakura aho hafi ntibidusaba gukora ingendo ndende kugira ngo tube twakuhira imyaka.

Umuhanda ahantu aho ari hose ntabwo burya abahinzi baba bemerewe kuhatera imyaka, kuko imirima iba ifite ahantu habugenewe iterwamo maze iyo myaka ikera.

Igihe twateye imyaka tugomba kuyikurikirana neza kugirango ikure ku gihe. Buri bwoko bwimyaka bwose watera ni byiza ko ukurikirana niba wizeye ko uzabona umusaruro mwiza ukawubona.

Si byiza ko tujya muri pariki igihe tutabiherewe uburenganzira, kuko harimo inyamaswa zigiye zitandukanye z'inkazi; intare, isha, inzovu ndetse n'izindi zakugirira nabi.

Mu gihugu cyacu hakunze kuba gahunda nziza yo gusura u Rwanda, byamaze kugera no mu mahanga, kandi ubona ko abanyamahanga baza mu gihugu cyacu bagafotora, bakishimira ibyiza bahabonye nk'inyamaswa ndetse n'ibindi.

Twirinde kandi turinde n'abacu kuba twajya mu mashyamba y'inzitane nta muntu turi kumwe nawe, dushobora kuhahurira n'ibyago bitandukanye, birimo nko kuba twahaburira ubuzima bwacu.

Mu mashyamba y'inzitane iyo tugiyemo dushobora kuba twagirira ibibazo bikomeye, birimo nko kuba twarumwa n'inzoka, ndetse n'izindi nyamaswa zatugirira nabi kubera yuko atari byiza kurijyamo wenyine.

Mbere yuko baca korora amatungo mu gasozi wasangaga buri wese wifitiye ifamu ye yararagiraga kandi ugasanga amatungo yibera umwo ngumwo ntajya ataha.

Abakurambere bari bazi ibanga ry'imiti igiye itandukanye iva mu ndabyo bityo bakaba bazibungabunga kubera ko bazikoragamo imiti kandi iyo miti ikaba yaravuraga abarwayi koko bagakira.

Ubuhinzi bw'ibitunguru nabwo butanga umusaruro kubera yuko, usibye ibitunguru turandura mu mizi tukabigurisha, n'ibibikomokaho nk'aya mababi yabyo, nayo akoreshwa nk'ibitunguru.

Igihe umusaruro weze neza umuturage agomba gufata ibikoresho byabugenewe, akajya kuwusaruriramo kugira ngo utunganywe, ube wajyanwa ahantu ku isoko ugacuruzwa.

Umuturage agomba kuba azi amayeri ndetse n'uburyo bwinshi bwo kuba yateramo imyaka ye kandi ikera neza, igihe ya hatse izuba akamenya uburyo akoresha kugira ngo azeze ndetse n'igihe hagwa imvura nyinshi akamenya uburyo akoresha.

Byaramenyekanye neza ko izi ndabo zitandukanye n'ubwo zigurishwa ahantu hagiye hatandukanye. Ziba zifite akamaro harimo nko kuba abantu bazihana cyane cyane abakundana ndetse cyangwa zigategurwamo imiti ivura.

Imburo z'ubwoko butandukanye iyo zimaze guhishira ziba zisa neza kandi zikagurishwa bityo rero nta muntu utashimishwa no kubona ubuhinzi bwe bugenda neza.

Muhinzi niba umaze gusarura kandi ukabona umusaruro wawe usa neza ushimishije, jya uwujyana ku isoko uwugurisha kuko hari benshi baba batawubonye, maze na bo baguhe amafaranga.

Igihe wahinze imbuto zawe neza, ukazikurikirana neza, nta kizatuma utagira umusaruro nk'uwo wifuzaga kubona, bityo ukaba wasagurira abandi ndetse ukabona amafaranga.

Niba umusaruro wawe weze neza ujye uwufata uwusarure mu gakoresho kabugenewe maze uwujyane ku isoko baguhe amafaranga kuko akenshi usanga aricyo wawuhingiye kugira ngo ubone amafaranga.

Buri bwoko bw'ibihingwa bigira uburyo bihingwamo, bityo umuhinzi niwe umenya igipimo cy'ibintu byose akeneye kugira ngo abe yahinga kandi abone umusaruro.

Ubuhinzi bw'amatunda na bwo bugira amafaranga menshi ku muntu wabikoze neza, ariko bigatwara imbaraga ndetse n'igishoro kinini kugira ngo uwo musaruro ube wawugeraho bisaba kudacika intege.

Gufatanya mu bintu ibyo ari byo byose cyane cyane ubuhinzi bw'amatunda. Ni ingenzi kuko ibitekerezo by'umuntu umwe bishobora gutuma akora ibintu nabi kandi yari kubifashwamo n'abandi.

Tujye tubungabunga cyanecyane ubu bwoko bw'indabo kuko zikorwamo ibintu byinshi byatugirira akamaro ubone umuntu ubyangiza ujye umucyaha kandi umugire n'inama.

Imboga n'imbuto by'amoko yose birakenerwa mu buzima bwa buri munsi ku muntu wese umaze gufata ifunguro, kubera ko ibi bituma umubiri we ukora neza kandi ugakora ibintu biwurinda indwara.

Iyo umuturage amaze gutera imbere agomba kuba afite jalide nziza ndetse ugasanga afite n'imodoka ye, afite naho ayiparika mu gipangu cye kugira ngo irindirwe umutekano.

Mu mbuto umuntu akenera mu buzima bwe bwa buri munsi harimo n'imbuto z'amapapayi, kubera ko izi zituma igogora rikora neza kandi bigatuma umubiri wawe uririndwa indwara zitandukanye.

Muturage ujye ufata neza ubwoko bw'ubuhinzi bw'indabo kubera ko bukorwamo imiti itandukanye, ari nayo itunganywamo imiti ijyanwa kwa muganga.

Buri muturage wese ashishikarizwa kuba afite akarima k'igikoni imbere y'urugo rwe, harimo imboga zijye zitandukanye kugira ngo igihe cyose agiye gufata amafunguro ntakabure ubwoko na bumwe bw'imboga ashyiraho.

Uburyo bwiza bwo kuhira, abaturage bagomba kujya bafata amahugurwa yabwo. Bityo umuntu wese ntapfe kuhira uko abibonye kuko byagaragaye ko bituma imyaka itera neza kuko bakora ibyo batazi.

Umuhinzi agomba gusharira ingemu ze bityo ibyo ashariye bikazibera nk'ifumbire cyangwa isaso maze ibyo nabyo bigakura neza ndetse akaba yashyiramo n'ifumbire.

Niba ufite ubundi buryo bwo kuhira imyaka birashoboka ko utaba ufite ibikoresho byabugenewe byinshi, ahubwo icyo ufite ugomba kugikoresha neza kuko nacyo cyakubyarira inyungu.

Umuhinzi agomba gusura umurima we cyangwa umworozi kugira ngo ajye akurikirana ibintu bye areba aho bigeze kandi abyiteho buri kimwe cyose gikenewe, ajye agishyiramo kugira ngo bigende neza.

Buri buryo bwose bugushobokeye bwo kuhira, ugomba kubukoresha haba gukoresha imipira y'amazi ndetse n'ubundi buryo bwakorohera, ujye ubikoresha kugira ngo wiyuhirire imyaka yawe.

Mu buryo buzwi ndetse bwinshi butandukanye bwo kuhira, hari ubundi bukoreshwa mu mirima, usanga bazirikiyemo imipira y'amazi, bakajya bafungura nk'abafungura robine ubundi bikiyuhira.

Nyuma yuko haje uburyo bwinshi bugiye butandukanye bwo kuhira imyaka, hagezweho n'ubundi bw'imodoka ziteye ukwazo zifite imigozi yuhira mu myaka bikoroshya ubwo buryo.

Nuramuka ubonye ipombo yuhira, cyangwa ugakoresha umupira, nabyo bizagufasha kubona imyaka yawe izakura neza. Kubera yuko icyo wakuhiza cyose, mbere tutitaye ku bushobozi bwacyo, gishobora gutuma imyaka yawe iba mizima.

Uburyo bugiye butandukanye bugenda buvumburwa n'abahinzi, burimo bwo kuhira imyaka badakoresheje imbaraga nyinshi ahubwo bakoresheje imashini zabugenewe ndetse n'ibindi bikoresho byuhira.

Guca imiringoti ijyana amazi mu byo wahinze, na byo ni uburyo bwiza bushobora gutuma imyaka yawe ikura neza maze uko gukura bigatuma nawe ubona umusaruro mwiza.

Niba ibigori byawe ubisura kenshi kandi ukabona bimeze neza ishimire ibyo wagezeho, kandi nanone ubikurikirane kugeza bikuze kugeza ubisaruye bikava mu murima.

Mbere yuko tugira ibyo duhinga mu mirima yacu. Tugomba kubanza kuyitunganya tukegeranya ibizakorwamo byose, ifumbire n'ibindi byose kugira ngo tuzahinge neza kandi byere.

Buri wese ajye akoresha uburyo bumworoheye igihe agiye kuhira imyaka ye, kubera ko iyo wimanitse cyane ugakoresha ibintu bihenze, ubushobozi kubana buke bigatuma utabigeraho.

Buri muntu wese wiyemeje guhinga, agomba no kwiyemeza uburyo bwiza bworoshye azakoresha kugira ngo yuhire imyaka ye kubera ko imyaka ituhiwe cyane cyane mu gace ka Nyagatare hafi izuba ryinshi ishobora kuba yakuma.

Hari ubundi buryo abaturage bakunda gukoresha bwo kuhiza imipira mu mirima yabo, ugasanga abakoze imipira miremire bakayuhiza bityo imyaka yabo igakura neza ariko sibwo gusa uko ari n'ubundi.

Muhinzi wite ku buzi bwimyaka yawe bityo izakure neza kandi nanone ntiwibagirwe ko ukoresha ifumbire yaba iy'imvaruganda cyangwa imborera nabyo bituma imyaka imera neza.

Igihe cyose ubonye ko uburyo bwose bwo kuyira utabushoboye ndetse ufite ubushobozi buke ushobora no gukoresha indobo cyangwa ibase ukajya udaha amazi ukuhira imyaka yawe ariko ntubeho utayuhira.

Buri muntu wese agomba kwisanga mu kiciro kimukwiriye kijyanye no kuhira imyaka, rero hatitawe ku bushobozi buri wese ashobora kwiyuhirira imyaka kuko hari n'ibya make umuntu ashobora gukoresha.

Kuhira ibigori ntitukabifate nk'aho ari ugusoza umuhango, ahubwo tujye tubikora twubahiririza amategeko kandi abaturage bajye bibuka kwicira ibigori, kuko iyo byegeranye ari byinshi bidakura neza.

Buri wa nyuma w'ukwezi hagomba kuba umuganda w'igihugu abaturage bakitabira ku bwinshi kugira ngo bakorere igihugu maze nyuma y'uwo muganda abayobozi bakaba babaganiriza.

Ni kenshi dushishikarizwa gutera ibiti byinshi kugira ngo twirinde bimwe mu bintu bimaze iminsi byangiriza imyaka y'abantu ari byo twakwita isuri ndetse ibiti binakurura imvura ku muntu wabiteye.

Ntabwo bisaba ibintu bya mirenze kuba wakuhira imyaka yawe bityo ngo wange kuhira kubera ko ibyo bintu bitabonetse, ahubwo ushobora gufata indoho yawe ugashyiramo amazi kuyuhirira imyaka yawe bitakugoye.

Nujya kuhira imyaka si ngombwa ngo uzakoreshe ibikoresho bihenze ahubwo ujye ureba ibihwanye n'ubushobozi bwawe kuko uburyo bwose wakuhiramo byose ni bimwe kuko imyaka yawe ikura.

Kuhira dukoresheje rozwari na byo byatuma umusaruro wacu ugerwaho, si ngombwa ko dukoresha ibindi bikoresho birenze ubushobozi bwacu, ahubwo tujye dukoresha icyo tubonye hafi kugira ngo tucyuhize.

Mu bintu byose tuba dukeneye ubufatanye, haba mu buhinzi haba mu masomo ndetse n'ibindi dukora mu buzima bwa buri munsi, gufatanya ni ingenzi kuko bituma tugera ku iterambere twifuza.

Abantu benshi bakunda kujya ahantu hari amazi bakoga, ariko abenshi na none bakahasiga ubuzima kuko bagendera mu kigare, bajyanywe n'inshuti zabo bityo ngo bagiye koga bikarangira barohamye.

Mu gihe twateye ibiti byinshi bikagwira , usanga aho dutuye hakurura imvura kandi ku bahinzi bo bikababera byiza kuko bahorana imvura.

Mu ishyamba ry 'inzitane hakunze kuba hateye ubwoba kuko hashobora kuba haba harimo inyamaswa zitandukanye, bityo si buri wese ugomba kujyamo ahubwo hagomba kujya hajyamo ababifitiye uburenganzira ndetse n'uruhushya.

Gutura ahantu hegereye amazi ntabwo ari byiza kuko amazi hari igihe aba menshi mu kiyaga akaba yatwara ubuzima bw'abantu, agatembana ayo mazu bityo hakavamo ibibazo tutari twiteze.

Guhinga ahantu aho ari ho hose ntabwo ari byiza ahubwo tujye tureba ahakwiriye hatateza ikibazo nk'uko isuri ishobora kuza ikabijyana byose bityo ntitubone umusaruro.

Guhinga ahantu aho ariho hose si byiza ubwo buri wese ajya areba umukangurambaga w'aho atuye, amubwire ubwoko bw'ibihingwa ashobora guhinga aho hantu kandi bike neza bitagoranye.

Gutera ibiti bishobora kurinda isuri imyaka yacu kuko umuvu ushobora guturuka mu gasozi ukaza ukaba watwara imyaka twahinze bityo umusaruro twari twiteze tukawubura tuwureba.

Si byiza ko dutura ahantu aho ariho hose cyanecyane aho tubona hateza ibyago ubuzima bwacu, ahubwo tujye twumva amategeko tubwirwa kugira ngo turinde ubuzima bwacu kuko ari twebwe dufata iya mbere yo kuburinda.

Si byiza guhinga mu bishanga kubera yuko iyo haje umuvu ushobora kudutwarira imyaka, bityo bigatuma ibyo twari twishingikirijeho ko tuzabona umusaruro byose bikendera, tukabura na kimwe dukuramo.

Ubuhinzi nibwo bwonyine bwemerewe guterwa mu gasozi kugira ngo hirindwe isuri kandi bakibuka guca amaterasi y'indinganire, ikindi bakirinda kuba bahatura kuko byashyira ubuzima bwabo mu kaga.

Ahantu hahanamye ni byiza ko tuhatera ibiti byinshi kugira ngo birinde isuri kubera ko ituruka mu gasozi ikamanuka mu bishanga ikaba yakwangiriza imyaka y'abaturage.

Nubona ubushobozi bwo guhinga aho ariho hose uzajye uhinga kuko umusaruro uraboneka ahantu hose wahinga iyo uhitayeho, bityo rero imbaraga n'umuhate nibyo bigena icyo uzageraho.

Biragoye ko wabona ubuhinzi bwera neza butarakorewe ahantu hegereye amazi, cyangwa horoheje kuba umuntu yakuhira iyo myaka. Niyo mpamvu abenshi usanga bakunda kwihingira mu bishanga.

Mu gihe umuhinzi ahinze ahantu hashobora kuba hateza ibyago, agomba guca amaterasi y'indinganire ndetse n'imirwanyasuri kugira ngo imyaka ye itazatembanwa agahombo.

Ahantu hameze neza hari n'amazi, buri muhinzi wese niho yakagombye kujya ahinga imyaka ye kubera ko buri kimwe cyose imyaka ikeneye iba yashobora kukibona mu buryo bworoshye.

Intara y'iburarasirazuba ni imwe mu ntara zikunze kweraho ibitoki byinshi, bityo ugasanga niyo igemurira imijyi igiye itandukanye irimo nka Kigali ndetse n'ahandi hataba ibitoki.

Abantu batuye mu manegeka munsi y'udusozi si byiza kuko tubishishikarizwa kenshi ariko abenshi ntibabyumva bityo iyo haje umuvu ushobora guteza ibyago byinshi ugatuma ubuzima bwabo buhagirikira.

Mu mirima y'imirezo wasangaga umuntu yibaza ati ese namenya umurenzezo wanjye, ariko nta muntu ujya uyoberwa ahe kuko n'inyoni ntiziyoberwa mu byari byazo.

Gutura mu manegeka si byiza ku muturage uwo ari we wese kubera ko biteza ikibazo bigatuma byamwangiriza ubuzima mu buryo atari ateganije, nyamara yari afite uburyo bwiza bwo kuba yabyirinda.

Umworozi wese wabigize umwuga ndetse n'undi uwo ari we wese, ajye akurikirana amakuru ajyanye no kuba bakingira inka cyangwa se ibindi bikorwa bya Leta byita ku matungo y'abaturage.

Mbere yuko utangira umushinga wo korora inka, ugomba kuwiga neza, warangiza ukamenya buri kimwe cyose gikenewe muri wo, ukabanza ukagishyira hafi yawe.

Umworozi wese agomba kuba afite ahantu habugenewe yororera bityo ubworozi bwe bukagenda neza, aho kugira ngo yororere mu gasozi kandi byaramaze gucibwa.

Korora ingurube ibi bituma umuntu yinjiza amafaranga menshi kubera ko bishobora no kurusha amafaranga inka kuko zororoka mu gihe gitoya kandi zikabwagura ibyana byinshi utatekerezaga.

Iyo ugiye korora inkwavu, ntukajye uhihita ugura ngo uzijyane uzazubabakira nyuma, ahubwo biba byiza ubanje gutegura aho zizaba, ibyo zizarya, imiti izazivura ndetse ukaba ufite n'igitabo gisobanura ubwo bworozi.

Korora inkwavu si ibya buri wese kubera yuko bisaba ibishoro bihagije no kuba ufite imbaraga z'amafaranga kugira ngo niziramuka zirwaye ujye umenya ko ugomba kuzigurira imiti.

Amatungo yacu agomba gukorerwa imivure minini, tuzajya tuyashyiramo ubwatsi, kugira ngo arimwo arira, bityo bibe byagabanya umwanda, aho kuba wagaburira itungo ryawe aho ubonye hose.

Nta muntu ushimishwa cyane nko kubona ko ibyo yatekereje kera bibaye impamo nk'umworozi w'amatungo magufi y'inkoko kubera ko bisaba imbaraga nyinshi, biba ari urugendo rurerure cyane ariko wihanganye ubigeraho.

Nk'uko umubyeyi iyo abyaye umwana amwishimira, kandi akaba yumva nta wamukura mu ntoki, ni ko burya n'amatungo iyo abyaye, aba yumva ko ntawasagarira umwana wayo.

Bijya bitangaza cyane kubona ingurube ibwagura ibibwana birenze birindwi kandi ikanabyonkereza rimwe bigakura neza kuruta uko izindi nyamaswa zibikora.

Niba ufite ikiraro kiza cyabugenewe gifite ibikoresho byose nta kindi cyo gutekerezaho, ni ukuzana itungo rikaba muri icyo kiraro maze ukarikurikirana uryegereye ubuzima bwaryo bwa buri munsi.

Inka igomba kuba nayo iri ahantu heza ndetse iri kumwe na nyina maze ikagaburirwa neza ikitabwaho mu buryo ubwo aribwo bwose kugira ngo itange umusaruro nk'uwo yari yitezweho.

Buri muturage wese agomba gushaka itungo rigufi yorora byibura mu rugo rwe rikaba rihaboneka, kugira ngo rimufashe mu kwiteza imbere no guteza imbere umuryango we.

Igihe ubworozi bwawe buguhiriye, ushobora kubona amafaranga utatekerezaga ko uzabona, nyamara uba warabitangiye ubona ari ibintu biciriritse, ariko nyuma ukaza kubona ko utibeshye.

Ubworozi bw'inkoko butanga umusaruro nabwo ariko iyo uzisuye nkawe udasanzwe uzoroye, wareba ukuntu zingana ushobora guhita ucika intege ukumva ko wowe utagera kuri iryo terambere.

Igikorwa cyo gutera inka amaherena, tujye tucyitaho cyane kandi tugikurikirane kugira ngo ni kigera iwacu, natwe tujye tucyitabira kandi ku gihe, tubikore mu ba mbere.

Nubona ko hari gahunda ije ireba aborozi bose kuba bakingiza inka cyangwa no kuba bazambika amaherena, iyo gahunda ntikagucike ahubwo ujye uyitabira mu ba mbere kugira ngo uhabwe iyo serivisi.

Umuntu ufite amatungo menshi ni byiza ko aba afite n'urwuri rwo kuyaragiriramo, kubera yuko iyo utarufite birakugora cyane kuba wabona ubwatsi buhaze ayo matungo yose icyarimwe.

Uretse kuba inkoko zitanga umusaruro urimo nk'amafaranga, zitanga n'amagi bityo bigatuma umuryangobaho uticwa n'indwara kandi urya indyo yuzuye iturutse ku matungo biyororeye.

Wa muntu watangiye korora inkoko zikiri imishwi, iyo zimaze kungana nk'uku zarakuze mu buryo bwose nibwo abona agaciro kava mu musaruro w'ibyo yakoze kuko abona amafaranga menshi.

Amatungo magufi iyo uyororeye mu gasozi ahantu hari ubwatsi, arakura kandi akabyara akanororoka, bityo ukaba wayagurisha ukabona amafaranga yo gukemura ibindi bibazo.

Iyo inka uyitayeho na yo iguha umukamo mwinshi bityo bigatuma abana bawe bakura neza ndetse ukaba wasagurira n'amasoko n'ayo mafaranga ukayakemuza ibindi bibazo.

Ku bantu bamenye neza ibanga ryo korora ingurube usanga batazivaho kubera yuko iyo bazigurishije ziba zifite amafaranga menshi bigatuma ari ubworozi washishikariza buri wese.

Ibimasa byakunze kugaragara ko, bitanga amafaranga menshi cyane ku isoko. Ariko nabyo, bikarya ubwatsi bwinshi bisaba ngo ubyiteho cyane kugira ngo uwo musaruro ubyitezeho uzawubone.

Inka ziba zikeneye kunywa amazi buri munsi kugira ngo zibone umuka mu mwinshi, bityo kuzigaburira ubwatsi ndetse n'ibindi byinshi wagaburira amatungo si byiza gusa nta n'ubwo biba bihagije byonyine.

Amatungo agomba kuba afite ahantu heza yubakiwe akabamo kugira ngo atava mubiraro akajya kwangiriza abaturage kuko ibi nabyo bitera rwaserera mu mudugudu.

Iyo inkoko zarenze kuba imishwi zigatangira gukura, zishimisha nyiri kuzorora kubera ko amafaranga aba yarazishoyemo aba atangiye kwikuba inshuro zirenze ebyiri yayo yaziguze.

Niba ubworozi bwawe butagenda neza ,ugomba kuba ufite umuganga w'amatungo hafi kujyirango abugukurikiranire arebe icyibazo bufite maze kuba yamenya imiti abuha.

N'amatungo magufi biremewe kuba wayororera mu mafamu kuko atanga umusaruro mwinshi iyo wayitayeho, ukaba wagurishamo nk'abiri ugakemura ikibazo wari ufite, ubuzima bugakomeza bukagenda neza.

Nk'umuhinzi wese wabigize umwuga mbere yuko ajya guhinga amasaka agomba kuyatoranyamo ameza, bityo akaba ari yo ajyana mu murima kugira ngo umusaruro we uzabe mwinshi.

Kwibumbira mu makoperative ni byiza ku bahinzi kuko iyo bafatanyirije hamwe bituma babona umuntu bagurira umusaruro mu buryo bworoshye, kuruta uko buri umwe wese yajya yirwanaho ku giti cye.

Ni kenshi abahinzi b'ibigori bashishikarizwa kwegera tubura ikabaha imbuto z'indobanure bagendeye ku mirima yabo ndetse n'aho bahinga kuko buri mbuto iba ifite umusozi yereraho kandi ikira neza.

Iyo umaze gutoranya ibishyimbo byawe neza, ukavanamo ibizima ugomba kubibika ahantu heza kandi hizewe kugira ngo igihe kihinga nikigera uzongere ubihinge.

Igihe ibigori byacu tubisaruye ni byiza ko tubishyira hamwe kugira ngo bitoranwemo ibyiza, tuzongera tugakuramo imbuto maze ibindi tukaba twabigurisha tukabona amafaranga.

Kubera ko byagaragaye ko ibigori ari ibihingwa byera mu gihe gito ku muntu wabyitayeho akabiha buri kimwe, niyo mpamvu rero ari byiza ko tugomba gufata umusaruro wabonetsemo, tukawubika neza.

Imyaka yatoranijwe ijye ishyirwa ahantu habugenewe maze ibikwe neza n'ibiba byiza iterwa imiti kugira ngo itazamugwaha izajyanwe ku isoko igihe gikwiriye maze iba mike ku isoko rya ngoha umusaruro we mwinshi.

Iyo tumaze guhunika imyaka yacu mu bihoho, na byo tugomba kujya tubyuhira buri munsi kugira ngo imyaka itumiramo bigatuma ipfa itaranagezwa mu mirima aho izaterwa.

Umukamo wavuye mu matungo ugomba kujyanwa ahantu habugenewe ugatunganywa, ukaba wakorwamo andi mata agemurirwa abantu cyane cyane ahantu hatari ubwo bworozi.

Umuganga w'amatungo ni we uba uzi uburwayi bw'amatungo akamenya n'icyo ayavurisha, bityo igihe itungo ryacu ryagize ikibazo, ntitukakikemurire ahubwo tujya tureba umuganga ubishinzwe.

Abavuzi b'amatungo mbere yuko batera inka urushinge cyangwa bayiha indi miti, barabanza bakayikurikirana bakareba niba yujuje ubuziranenge bityo bagatanga ibintu bizeye neza.

Igikorwa cyo gukingiza amatungo buri wese agomba kukigira icye, cyanecyane aborozi b'amatungo yo mu rugo. Kubera yuko gukingiza ni ingenzi iyo inka utakingije ishobora kurwara indwara bigatuma igutwara amafaranga menshi uyivuza.

Iyo umuturage amfishije inka yari ifite amezi, bimutera agahinda cyane kangana nk'uko yaba yapfushije umuntu, kubera yuko aba yumva ko atakaje inka ebyiri zose ,nyamara iyo itaravuka ntiba ibarwa nk'inzima.

Niba ufite urwuri rwawe rwiza rurimo ubwatsi, ntacyakubuza korora inka kuko zikenera ahantu hisanzwezuye kandi hari ubwatsi kugira ngo zihakurire kuko usanga zinabyariramo, bityo ugatera imbere.

Umuvuzi w'amatungo iyo amatungo akekwaho kuba arwaye, hari uburyo afata umurizo akawugonda ubundi akaba yamenya ikibazo iryo tungo rifite.

Si byiza ko turya inyamazo arizo zose zitabanje gupimwa n'abaganga b'amatungo kugira ngo barebe niba zujuje ubuziranenge, kuko ibi bishobora kuduteza indwara tutatekerezaga kurwara.

Mbere yuko muganga avura umurwayi, agomba kubanza kureba ko ibikoresho byose ari bizima kandi bikora neza, bityo yasanga bikora akabanza agahamagara umurwayi akareba niba koko byakoze neza.

Igihe umuturage byamunaniye kuba yakibyariza inka ye agomba guhamagara muganga w'amatungo akamufasha kugira ngo iyo nka ayibage igihe byananiranye kuba yakwibyaza.

Mbere y'uko utera urushinge inka, ugomba kubanza gufata igipimo cyabugenewe uri buyitere kugira ngo bigende neza, utaza kuba wayiteza ibindi bibazo.

Muganga agomba kuba yambaye ibikoresho byose byabugenewe kugira ngo abe yavura umurwayi nko kuba yambaye agapfukamunwa n'imyambaro igaragaza ko ari umuganga maze akabona kuba yatangira inshingano ze.

Igihe inka zacu zahuye n'ibibazo tugomba kwihutira guhamagara muganga w'amatungo akazikurikirana. Aho kugira ngo twumve ko ibyo byose twabyikorera kandi hari ababishinzwe.

Ujye wibuka ko gukingiza itungo ryawe ari ingirakamaro kubera ko ibi bigufasha kurikurikirana ntirirware kandi umusaruro ntushobora kuboneka utitaye ku kintu.

Buri muntu wese afite uburyo yubakamo ikiraro cye kandi icyo kiraro ukabona ko kibereye itungo runaka, biterwa n'ubushobozi ufite na none ntabwo wakubaka ibya mirenge kandi udafite ubwo bushobozi.

Ahantu henshi hagiye hacika inka z'Inyambo kubera amateka y'aho, ariko iyo ugeze i Nyagatare usanga ubwo bwoko bukihaboneka cyane ku bwinshi.

Kororera amatungo ahantu hari ibikoresho bifite umwanda, nko kuba amatungo yaharira kandi ari naho yituma ntuhasukure, bishobora gutuma ayo matungo yandura indwara zitandukanye utatekerezaga.

Igihe cyose itungo ryawe ryagize ikibazo jya urijyana kwa muganga w'amatungo, arikurikirane, aririsuzume ubundi arivure ikibazo ryari rifite, maze ibi ngibi nutabyikorera itungo ryawe rizahura n'ibibazo.

Ikintu cyose kijyanye n'urupfu rwaba rwaturutse ku nyamaswa cyangwa amatungo, ibyo ntitugahite tubyitwaza ngo twihutire kuba twabirya kubera ko ntituba tuzi ikishe iryo tungo.

Kuvura inyamaswa cyangwa amatungo si ibya buri wese. Kubera ko bisaba ngo ube warabyigiye ufite ubumenyi buhagije kuri byo mbere yuko ubikora kugira ngo uzage ubikora kinyamwuga.

Iyo abacyerarujyendo bajyeze muri parike bahabona inyamaswa zijyiye zitandukanye, muribwo izikunda kwejyera abantu cyane ni inkende kuko zitabatinya.

Uereye ku nyamaswa ndetse n'abantu, nta kintu uzasanga kidakunda umwana wacyo, nyamara uru ni urukundo ruba hagati y'abana ndetse na ba nyina, usanga ba se bitabarebaho cyane.

Zimwe mu nyamaswa ziteye ubwoba cyane kuzibona ndetsesh no kuyibona ukaba wakwihisha ni ingwe kuko ntishobora kuguha amahoro na rimwe niyo ntacyo waba wayitwaye.

Ibishuhe bikunda kuba mu mazi cyane cyane kubera ko ari ho byumva bituje nk'uko ifi ziba mu mazi ari bwo buzima bwazo, na byo iyo biri mu mazi biba byumva ubuzima bumeze neza.

Udusumbashyamba ni inyamaswa zikunze gusa neza kandi zikurura ba mukerarugendo kuba bazireba, bityo iyo umuntu waje gusura inyamaswa agaha atakabonye biramubabaza.

Igihe cyose ubonye inkende si byiza kuyikubaganira. Kuko burya iyo uyigiriye nabi, izindi ngenzi zayo zishobora kuza na zo zikiteranya zikakugirira nabi kuko zizwiho gufatanya.

Inyamaswa ziteye ubwoba cyane ntabwo twabura kuvugamo n'igitaragwe kubera yuko iki muhuriye mu nzira utekereza ko kigiye kukugirira nabi, ugahita ukizwa n'amaguru, bitaba ibyo ukirengera ibikurikiraho.

Si kenshi uzabona inyamaswa iyo ariyo yose ingana nk'iyi, ahantu hatari muri pariki yazo kubera yuko ziba zirinzwe ntayo iba yemerewe kuba yasohokamo, ngo ijye gusagarira abaturage.

Zimwe mu nyamaswa zifite amahembe maremare yigoronzoye, ziboneka muri pariki na zo zikunze gukurura ba mukerarugendo bajya kuzireba bitewe n'ukuntu ziba ziteye neza kandi zishimishije kuzireba.

Iyo ugeze mu mukenke ni ho ukunda gusanga bwoko bw'izi nyamaswa cyane cyane ukaba wazifatirana zigiye kunywa amazi ukazireba kuko nta nubwo zijya ziryana cyangwa ngo ziteze ibindi bibazo ku muntu.

Bikunze kuba bizwi ko inyamaswa z'inzovu zibyara bigoranye kandi zikabyara mu gihe kirekire, ni yo mpamvu atari inyamaswa zororoka cyane kuko ibyo kurya byazo bigoye kubizibonera.

Iyo ugeze mu gasozi uhabona inyamaswa zijyiye zitandukanye ugasanga harimo izo uzi n'izo utazi ariko inyinshi usanga warazibonye ku mafoto kubera ko wagiye ubyiga mu mashuri ndetse ukayabona n'ahandi.

Biba biteye ubwoba cyane kugera mu nzira ukahuye n'inyamaswa utari usanzwe ubona cyanecyane izi ziba muri pariki nkuru z'igihugu, kuko usibye n'ubwoba gusa uba wumva ko ubuzima bwawe burangiriye aho.

Biratangaje cyane kubona ubwoko bwimbeba nini tutari dusanzwe tumenyereye mu zo murugo, ariko iyo usuye pariki uzisangamo ku bwinshi kuko niho ziba ziherereye.

Buri hantu hagomba kuba hafite umuyobozi uhayobora, ndetse ibi byageze no ku matungo ndetse n'inyamaswa, usanga mu ishyamba, cyangwa pariki y'igihugu, intare ari yo muyobozi w'izindi nyamaswa.

Inyamaswa ziba zitangaje uzibona iyo ugeze mu ishyamba cyangwa muri pariki kuko haba hari ubwoko bwinshi butandukanye ubona ukubona nawe ni ubwa mbere uzibonye n'amaso yawe.

Iyo ugeze muri pariki uhabona ubwoko bugiye butandukanye bw'inyamanswa, zirimo imparage, isha ndetse n'izindi nyinshi ariko izo zose zigahurizwa ku kintu kimwe ko ziba zifite umuyobozi ari we ntare.

Nushaka kubona inyamaswa zigiye zitandukanye izo utarabonesha amaso yawe, ujye ugenda wegere abayobozi babishinzwe, bashinzwe kwinjiza abantu muri parike bakareba inyamaswa ubundi bakuyobore.

Nubona inyamaswa ziteye muri ubu bwoko, ujye wihutira guhunga kuko zishobora kukugirira nabi, ariko ntabwo zikunze kuboneka ahantu hatari muri pariki, aho zikunda kugaragara.

Ikintu gituma abantu bagira amatsiko yo gusura pariki z'igihugu, ni uko haba hari inyamaswa batarabonesha amaso yabo bityo bakajya kwishyura n'amafaranga ariko kugira ngo bakunde bazibone.

Inyamaswa izo arizo zose zikunze kujya gusurwa na ba mukerarugendo bagasiga amadovize, ariko usanga abanyarwanda badakunze kwitabira izi gahunda.

Imparage iyo uzigezeho ukunda gusanga zikunze kuba ziri ahantu hamwe, zateranye zigiye nko kunywa amazi bityo kuzibona biba bisa neza kandi binashimishije kuzirebesha amaso.

Bikunze kugorana cyane kubona inkenda ahantu ariho hose kuko zikundira kuba mu mashyamba, ariko hari ahantu hamwe na hamwe zikunda kuba kandi atari mu mashyamba bitewe n'icyo zihakurikiye.